Icyumba cyubatswe neza ku buryo bugezweho hejuru hari amatara yaka ndetse harimo abantu benshi bicaye ku ntebe z'imyeru, bigaragara ko ari icyumba cy'inama ndetse bari bafite ibyo bakurikiye biri kuganirwaho.

Inama iri kubera mu nyubako nziza, yitabiriwe n'abantu benshi, yiganjemo abambaye imipira y'ibara ry'umukara, bafite n'ubucupa bw'amazi bubateretse imbere, bari kuganirizwa umuntu ushinzwe ubugenzacyaha.

Abagabo bane bicaye ku ntebe z'imikara imbere yabo ku meza hateretse uducupa tw'amazi bakurikiye mu bigaragara ko imbere yabo hari uri kugira ibintu agenda abaganirizaho bitandukanye.

Urupapuro rw'umweru ruriho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza, ari mu ibara ry'umukara iruhande rwayo hari ibirango by'amashyaka atandukanye afite n'amabara agiye atandukanye.

Abantu barindwi hari batatu bicaye ndetse n'abandi bane bahagaze, ku ruhande rwabo hari ibyapa bibakikije, bigiye biriho ibirango ry'Urwanda cyangwa se ibendera ry' igihugu cy'Urwanda ndetse aho hantu hubatse neza ku buryo bwiza.

Icyumba cyubatse neza kandi kinini kirimo abantu benshi bagiye bicaye ku meza ariho igitambaro cy'umukara ndetse n'intebe bicayeho ari umukara, imbere yaho hari ibipapuro byinshi by'umweru ndetse hari n'uturahure turimo ibyo bari kugenda banywa mu gihe bari kugenda baganira. Imbere hicaye abantu batatu n'umugore umwe bigaraghara ko aribo bari bakuriye iyo nama.

Igisharagati kicayemo abantu benshi, imbere hicaye umurongo w'abagore, bigaragara ko yari inama yitabiriwe n'abagore benshi, ku meza imbere yabo hatetse amatelefoni ngendanwa ndetse n'agacupa k'amazi, bigaragara ko hari ibyo bari bari kuganiraho.

Ahantu hubatswe neza mu buryo bwiza kandi bugezweho hakaba hari intebe zigezweho zo kwicaramo, ndetse hari n'ameza azengurutse imbere y'abantu bahicaye, imbere yaho hateretse uducupa tw'amazi ndetse n'indangururamajwi imbere ya buri muntu bigaragra ko bari mu nama hari ibyo bari kwigaho cyangwa se bakurukiye.

Abantu benshi bicaye imbere y'inyubako ahantu hubatse neza, bicaye mu dutebe tw'umweru ndetse hari umwe ubari imbere, ufite indangururamajwi bigaragara ko ari kugenda agira ibiganiro abagezaho bitandukanye, muri abo bicaye harimo n'umuntu umwe ushinzwe umutekano wambaye ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda ku kuboko.

Inyubako y'itaje igeretse hejuru, irimo ibirahure by'ubururu, hasi harimo imodoka irimo mu hantu hubakiye harimo ibyuma, isakariye wagira ngo ni amabati, hasi hariho n'ibyatsi n'amaraba.

Ahantu hicaye abantu batandukanye, ndetse imbere yabo ku meza hari za mudasobwa ndetse n'uducupa tw'amazi, umwe muri bo w'umugabo afite indangururamajwi mu ntoki, ndetse bigaragara ko hari ibyo yarari gusangiza bagenzi be cyangwa se ku byo yarari gusubiza ku bari bari kuganiraho.

Abantu benshi bicaye hasi bafite ibikoresho bitandukanye nk'utubuni two kuvomeramo amazi ibitiyo ndetse n'ibindi, imbere yabo hari umuntu ufite indangururamajwi ndetse ahagaze imbere yabo bigaragara ko hari ibintu yari ari kugenda ababwira babyigaho cyangwa se baganiraho nyuma y'igikorwa runaka bari bavuyemo.

Abagabo batatu bari mu cyumba cy'inama imbere yabo hari imeza iteretseho za mudasobwa zabo, umwe yambaye kositime amarinete n'undi wambaye ingofero.

Abantu bicaye ahanu ndetse umwe muri bo imbereye hari agacupa k'amazi umwe muri bo ahagaze imbere yabo n detse afite indangurura majwi, afite n'igipapuro mu noki bigaragara ko haribyo arikugenda abaganirizaho.

Abantu benshi bicaye ahantu hubatse neza ku buryo bwiza kandi bugezweho, inzugi z'ibirahuri ndetse n'amadirishya y'ibirahure, ndetse harimo n'amatara abiri ameze neza kandi afite ibara ry'umuhondo, muri abo bantu bicaye aho higanjemo abambaye imipira y'imihondo ndetse n'imipira y'ubururu.

Ahantu hubatswe neza ku buryo bugezweho, hicayemo abantu bambaye neza kandi basa neza, imbere yabo hateretse ubucupa bw'amazi yo kunywa ndetse bafite na za mudasobwa imbere yabo ndetse n'indangururamajwi. Hari n'undi muntu uhagaze inyuma ndetse uko bigaragara bari bari mu nama hari ibiganiro bimwe na bimwe bari kugenda baganiraho.

Icyumba cyubatse neza ku buryo bwiza kandi busa neza kirimo ameza intebe harimo n'abantu bicaye, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa ndetse n'insakaza cyangwa se indangururamajwi, bigaragara ko ari icyumba cy'inama kandi hari abitabiriye inama, hari ibintu bitandukanye biri kuganirwaho.

Abantu benshi bicaye mu gisharagati, ku ntebe nziza za pulasitikez'amabara atandukanye, imbere yabo hari umuntu uhagaze ufite indangururamajwi bigaragara ko bari bari mu nama hari ibyo ari kubagezaho, imbere yabo hari inyubako ihubatse hari ibigega, ndetse hari n'ibyo dukunze kwita kandagira ukarabe.

Abantu bicaye, kandi basa nkaho bafite icyo bategereje, bamwe na bamwe muri bo bafite amakaye n'amakaramu mu ntoki zabo, bigaragara ko hari ibyo bari bari gukurikira ndetse bakagira na bimwe muri byo bandika.

Ahantu heza hateguye neza, hubatswe ku buryo bugezweho, hari abantu bitabiriye bafite za mudasobwa imbere yabo ziteretse ku meza bafitemo uducupa tw'amazi yo kunywa bakurikiye kandi bateze amatwi ibintu bisa nkaho ari ibiganiro.

Icyumba cyicayemo abantu benshi harimo abirabura n'abazungu, imbere yabo ku meza hateretse uducupa tw'amazi, imbere yabo hicaye abantu babiri, umugore n'umugabo. Bigaragara ko ari bo bari bari kubahugura ku bintu bitandukanye, bijyanye no guhanga udushya mu Rwanda.

Abantu benshi bicaye ahantu mu cyumba kimeze nk'aho ari ik'inama, abicaye imbere ku meza yabo hari uducupa tw'amazi yo kunywa ndetse bamwe bafite mudasobwa abandi bafite amakayi bari kugenda bandika ibiri kuvugirwa muri iyo nama, inyuma muri icyo cyumba hari insakazamajwi ndetse hariho n'amarido ku madirishya meza.

Icyumba cy'ubatse neza ku buryo bugezweho amatara ari kwaka gifite ameza ateguye neza kandi asa neza imbere ku meza hateretse ubucupa bw'amazi ndetse n'ibindi byo kunywa bitandukanye imbere hari abantu bahicaye bafite udukayi two kwandikamo ndetse imbere yabo hari n'indangururamajwi imbere hari uhicaye yicaye ukwe bigaragara ko ariwe wari wayoboye mu nama .

Abantu bicaye mu cyumba cy'inama imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi, na za mudasobwa bari kugira ibintu baganiraho bigiye bitandukanye, harimo abagore bagera kuri batatu, ndetse n'abagabo bagera kuri bane.

Icyumba cyubatswe ku buryo bugezweho bigaragara ko hateguriwe kuberamo inama zitandukanye, harimo intebe nziza cyane, hejuru harimo amatara agezweho ndetse gisize irangi ryiza ry'umweru no hejuru, harimo abantu bari mu nama bafite amatelefoni mu ntoki zabo ndetse bari kuganira ku bintu bitandukanye.

Icyumba kirimo abantu benshi bicaye imbere yabo ku meza hateretse uducupa tw'amazi, abantu bambaye imyenda yiganjemo ibara ry'ubururu ndetse imbere yabo hari umugabo uhagaze ufite indangururamajwi bigaragara ko hari ibya ari kugenda abaganirizaho.

Icyumba kirimo abantu benshi bamwe bicaye bafite uducupa tw'amazi duteretse ku meza imbere ndetse na za mudasobwa hari umwe uhagaze bigaragara ko ariwe uri kubasangiza ijambo.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama cyiza kandi kigaragara neza kirimo intebe nziza, bafite amazi uducupa tw'amazi duteretse ku meza, hari umuntu ubahagaze imbere uri kubaganiriza ibintu bitandukanye, hari n'undi uri kuruhande ufite imfatamashusho ari gufata ibivugirwa mu nama.

Icyumba bigaragara nkaho ari icy'inama giteguye neza kandi cyiza, gifite intebe nziza zigezweho ameza meza, ndetse bafite utumikoro imbere yabo bafite n'uducupa tw'amazi bigaragara ko hari ibintu bari bari kugenda baganiraho gacye gacye.

Abantu bitabiriye inama bari mu nyubako umuryango winjira w'iyo nyubako ufunguye, hamwe na bamwe imbere yabo ku meza hateretse za mudasobwa, abandi bafite amaterefone mu ntoki ndetse n'imbere yabo hari insakazamashusho.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cyubatse neza kandi ku buryo bugezweho bicaye ku meza arihoho ibitambaro by'umweru hamwe na bimwe ku meza yabo bateretse amacupa y'amazi ndetse na za mudasobwa bari bafite udukayi bari kugenda bandikamo bigaragara ko hari inama bakurikiye bakurikiye bagenda bandika ibyavugiwe muri ayo makayi.

Icyumba kirimo abantu batanu, bane bicaye imbere yabo ku meza hateretse tw'amazi, umugore wa gatanu ahagaze afite indangururamajwi, ari kugira ibyo abaganirizaho.

Icyumba cy'inama kirimo abantu benshi bicayemo ndetse imbere hari ameza agiye ariho indangururamajwi ndetse imbere yabo hagiye hari uducupa tw'amazi, imbere hari umuntu uhagaze ufite indangurumajwi ndetse bigaragara ko hari ikiganiro ari kubagezaho.

Abadamu ntibahejwe mu guteza imbere igihugu cyabo niyo mpamvu bari mu nzego zitandukanye z'ubuyobozi kuko bagaragaye ko nabo bashoboye bahabwa inshingano zitandukanye kandi bazikora neza.

Icyuma cyiza cyubatse ku buryo bugezweho gifite amatara agezweho kandi n'imbere hicayemo abantu, harimo intebe z'imikara ameza y'umukara ndetse n'imbere hari abantu bicaye bigaragara ko aribo bakuru b''yo cyangwa se bayoboye iyo nama, harimo n'ibikoresho mfata mashusho ndetse n'abantu bari kubikoresha.

Abantu bicaye mu cyumba bicaye ku ntebe z'imikara, imbere yabo ku meza hateretse uducupa tw'amazi umugore umwe wo ku ruhande imbere ye hari mudasobwa ndetse bamwe na bamwe bafite ahantu amakayi yo kwandikamo ibiri kugenda biganirwaho bigaragara ko hari ibintu biri kuganirwaho n'inama runaka

Icyumba cyiza gitatse neza kirimo intebe nziza harimo n'abantu bicayemo bigaragara ko bari mu nama imbere yabo hari za mudasobwa hari insakazamajwi ndetse bafite uducupa tw'amazi imbere yabo hari n'umugabo uri inyuma uri gufata amashusho y'ibivugirwa mu nama ndetse 'ibikorerwa mu nama nawe inyuma ye hari undi mugabo uhahagaze.

Abantu bicaye mu cyumba kimeze neza kirimo intebe nziza za pulasitike, bicaye imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi, bari mu nama kandi hari umubyeyi w'umu mama uri imbere yabo urikubasobanurira ibintu, abibereka no mu mashusho, hari n'undi mugabo uhagaze ku ruhande imbere y'ameza.

Abantu bicaye ku muhanda, ndetse n'abandi bahagaze ku muhanda bafite amatelefone mu ntoki; ubona ko hari ibintu bibahugije kandi bari gukora bitandukanye.

Icyapa kigaragaza uko wamenyekanisha umusoro ku nyungu ukoresheje telefone igendanwa ukanda kanyenyeri umunani, zeruzeru urwego ubundi ukemeza ugakurikiza amabwiriza.

Abantu benshi bahagaze mu ihema, harimo babiri bari imbere yabo imbere ya za mudasobwa, wagirango ngo hari ibyo bari kubaganirizaho bijyanye n'ikoranabuhanga, ndetse umwe muri abo yanditseho, afite agapira k'umweru kanditseho ijambo irembo bigaragara ko hari ibyo ari kubasobanurira bijyanye na serivisi z'irembo.

Isoko rifite ibicuruzwa bitandukanye by'imitako yakorewe mu Rwanda, harimo uduseke twinshi n'imitako yo mu ijosi, n'imitako yo kumanika mu nzu harimo n'ibibumbano bigiye bitandukanye n'udutebo.

Abantu babiri, umwe ufite imashini mu ntoki ishobora kuba yishyirirwaho, undi ufite ibintu mu ntoki bisa nk'amafaranga, ku ruhande hari akapa kariho uko ushaka kuhafunguriza konti, ushaka kohereza amafaranga, ushobora kwakira amafaranga, ushobora no kwishyura ibintu bigiye bitandukanye.

Umunara muremure wubatswe mu buryo bugezweho w'itumanaho ndetse ku mpande zaho hari bya bisahane binini bikoreshwa mu bintu by'amatumanaho kandi wubatswe ku buryo bugezweho bwa gisirimu.

Umunara muremure uriho ibisahane ku ruhande bigaragara ko ashobora kuba ari umunara w'itumanaho, hasi hazitijwe senyege zikoze mu tuntu tw'utwuma, kugira hatagira uhagira atabyemerewe.

Ahantu hagaragara neza hari abantu bicaye, ndetse n'abandi bari kugenda hasa neza, hari inyubako nziza cyane kandi ndende zubatswe kuburyo bugezweho, ndetse hari n'ikirere kiza gitanga umucyo.

Ibyapa biri ku mpande z'imiryango y'inyubako, bigaragaza ko mimbere ashaka uwacururizwamo amatelefoni n'ibikoresho bitandukanye, kandi nibyo byapa biri mu mabara atandukanye, ay'umuhondo ndetse n'ay'umutuku.

Ahantu hubatse neza ku buryo bwiza kandi hasa neza hari umuryango ufunguye wanditseho ijambo irembo, bigaragara ko ari ahatangirwa serivisi zitandukanye nk'izo kwishyura ubutaka, kwishyura imisoro ndetse n'ibindi bitandukanye.

Ahantu hubatse neza ku buryo bwiza kandi bugezweho hafite isuku hateguye neza, hari intebe zo kwicaraho n'ameza ndetse hariho n'icyapa kigaragaza ko hari icyo bita konegisiyo z'ubuntu handitseho ngo ryoherwa na konegisiyo y'ubuntu, ndetse hejuru y'icyo cyapa hari itara riri kwaka.

Umunara muremure wubatswe ku buryo bwiza kandi bigezweho, wubakishijwe ibyuma bikomeye biri mu mabara y'umutuku n'umweru ndetse uwo munara mu bigaragara ni uwibintu by'itumanaho hasi yaho hari n'ibindi byubakiyeyo hari n'uruzitiro kugira ngo abantu batazajya bavogera umunara.

Inyubako nziza iriho insinga z'umuriro, ndetse iriho n'ibyapa bigiye bitandukanye by'amabara atandukanye nk'ubururu, umuhondo, umutuku, hanze y'iyo nyubako hari ibyo twita kandagira ukarabe, kandi iyo nyubako ifite irange ryiza, igisenge cyiza, yubatswe ku buryo bugezweho.

Umunara wubatse neza kandi wubakishijwe ibyuma bisize ibara ry'icyatsi ndetse ku ruhande rwawo hari uruzitiro rw'ibyuma rutuma nta muntu wapfa kwinjiramo uko yiboneye imbere harimo izindi mashini zifasha uwo munara gukora neza ndetse ku ruhande hari n'akazu gato gafite umuryango akarya yose n'ako'umuntu urindaye umunara aba arimo.

Icyapa kigaragaza umurongo ntarengwa kiriho itariki mirongo itatu z'ukwacyenda bibiri na makumyabiri na kane kigaragaza ibintu bijyanye n'imisoro kandi kiri mwibara ry'ubururu.

Icyapa kigaragaza umuganga n'umuforomokazi, n'imodoka itwaye umuntu, n'abandi bantu babiri umwe uri kuhira ufite rozwari, undi ari kubaka.

Icyumba cyo kwigiramo mudasobwa harimo abanyeshuri bambaye imyenda yera harimo n'abandi bantu bakuru bari kuberekera uko bikorwa mudasobwa ziteretse ku meza harimo n'ikibaho cyumukara.

Igipapuro kigaragaza uburyo ki wakinjira no kwiyandikisha, wakinjira uhereye mugushyiramo nimero z'irangamuntu zawe, email yawe ndetse na nimero za terefone ngendanwa yawe.

Umunara muremure wubatswe n'ibyuma bigiye biterateranyije, biri mu mabara y'umweru ndetse n'umutuku. Ni umunara w'ibijyanye n'itumanaho kandi muremure cyane ku buryo bugaragara.

Inyubako zubatswe mu buryo bwiza kandi zigeretse, hagati yaho hariho akandi kanyubako gatoya abantu bicaramo bategereje nk'ibintu runaka, karimo abantu benshi, imitako ku muhanda, y'ibiti bitandukanye, ndetse hasi hanakoze neza, hakoteye ku buryo busa neza.

Abana bigaragara ko bari mu cyumba cy'ishuri, imbere zabo kumeza hateretse za mudasobwa bari kwigiraho bambaye impuzankano, cyangwa se imyenda y'ishuri isa umweru n'umukara.

Inyubako iri ku muhanda ifite icyapa kigaragaza ko ari irembo, ndetse na serivisi za banki bashobora kuzitanga n'imbere yaho hicaye umuntu ku muhanda.

Inyubako nziza zubatswe neza kuburyo bugezweho, zubakishijwe amadirishya y'ibirahure, kandi bisa neza, ndetse hasi hari abantu bari kugenda batambuka ku mihanda, amatara yo ku mihanda, bigaragara ko ari umugi mwiza kandi usukuye urimo ibiti byiza bitandukanye, ibyitwa imikindo.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho, isize amarange meza igeretse kandi ifite igipangu kiza k'ibyuma kiri mu ibara ryenda gusa icyatsi. Urukuta rw'igipangu rwubakishije amatafari ahiye ndetse no hejuru y'inzu hari bya byuma bishyushya amazi ndetse n'ibindi bimeze nk'iminara.

Ibyuma byubakitse ku buryo bugezweho bitwara insinga z'umuriro w'amashanyarazi ndetse ku ruhande hari imashini ishinzwe kugabanya cyangwa se kongera umuriro bitewe n'ibikenewe muri ako gace ndetse hirya yaho hari utuzu twinshi twubatswe mu buryo bwa kera dusakaje amabati ashaje.

Umunara wubatse neza ku buryo bwiza kandi bukomeye bwizewe wubakishijwe ibyuma ibigaragara byo n'umunara w'ibintu by'itumanaho, ku ruhande rwabo hari amamashini atandukanye akora ibintu bitandukanye tutabasha guhita tumenya, afite uruzitiro rw'ibyuma rutuma nta muntu wapfa kuhasagarira ngo ahage uko yiboneye imbere y'uwo munara hari inyubako zubatse neza kandi ku buryo bukomeye.

Umunara muremure w'ibyuma uriho insinga z'amashanyarazi ku ruhande rwaho hari igikuta ndetse hari n'imodoka itari kugaragara neza hirya hari inyubako zitandukanye ndetse hanateye ibiti byinshi bigaragara ko ari ishyamba.

Inyubako bigaragara ko ikiri kubakwa kuko ku ruhande rwayo hagiye hari ibiti cyangwa se ibyo bita ibikwa, aho bahagarara bubaka ndetse kere igeretse kandi hanze y'iyo nyubako hari icyuma gitwaye cyangwa se gihetse insinga z'amashanyarazi ndetse hari n'izindi nyubako ntoya ziri ku ruhande zifite bya bisahane byo hejuru bikorana n'insakazamashusho.

Amapoto maremare atwara insinga z'amashanyarazi ndetse ateye ahantu hahinze imibyare, ibiti bitandukanye ndetse ari amapoto agiye ari abiri abiri ashinze ahantu hamwe.

Ibiti biteye ku ruhande rw'umuhanda ndetse ku ruhande hari igare riri kugenda, hari n'amamodoka ari kugenda n'andi ahagaze, inyubako nziza, abanyamaguru bari gutambuka ndetse n'amatara yo ku mihanda, n'amapoto atwara insinga z'amashanyarazi.

Inyubako ziri ku muhanda n'umuntu azihagaze imbere, harimo amapoto atwara insinga z'amashanyarazi ndetse n'icyapa kiri ku muhanda n'ibibumbano byambaye imyenda igurishwa.

umunara munini w'ibyuma wubatse neza kandi ku buryo bukomeye, utwaye insinga z'amashanyarazi, kandi ku ruhande rwawo hateye ibiti, hari abana bahahagaze ndetse hanaparitse imodoka, n'inyubako ziri hirya y'umunara.

Inyubako nziza yubatswe ku buryo bwiza kandi bugezweho ituye ku muhanda ifite imirasire hejuru y'inzu ishyushya amazi yo koga, ifite ikigega cy'amazi hejuru ndetse ifite igipangu cyiza cyubatse neza, inyuma y'igipangu hari indabyo nziza kandi zikase neza.

Ikimodoka kinini kiri mu mabara y'umukara, umweru ndetse n'irindi ryenda kuba icyatsi, ndetse gishinzwe gutwara abagenzi ku ruhande rwacyo hari igare rihaparitse ndetse no hino hari abantu babiri bari ku magare yabo bari ku kireba ,hirya yiyo modoka hari amatara yo ku mihanda ndetse n'ibiti biteye bidashobora kugaragara neza.

Umuhanda ku mpande zawo hasize irangi ry'ibara ry'umweru n'umukara hariho ipoto ritwara insinga z'amashanyarazi, ndetse ku mpande hari n'inyubako hari uruzitiro rw'ibyuma ndetse hari n'ibiti bitandukanye.

Itara ryo ku muhanda insinga z'amashanyarazi umukindo ndetse n'utundi duti duteye ku ruhande igipangu cyiza imodoka nziza ndetse n'ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda.

Umuhanda hariho itara ryo ku muhanda, insinga z'amashanyarazi, ku ruhande hari inyubako ifite igipangu cy'amatafari ahiye, ndetse ku muhanda hateye ibiti by'amoko atandukanye.

Iminara miremire yubakishije ibyuma bikomeye kandi byubatswe mu buryo bugezweho, byifashishwa mu gutwara insinga z'amashanyarazi ndetse n'andi mapoto yo ku ruhande atari iminara nayo atwaye insinga z'amashanyarazi. Hirya witegeye inyubako nyinshi ziri hirya kure.

Inyubako nziza, ifite uruzitiro rw'amafari ahiye, amadirishya atukura, ndetse n'ipoto itwara insinga z'amashanyarazi, ku ruhande rw'inzu, hari n'ikindi giti gifashe ho urundi rusinga rw'amashanyarazi.

Ishami rishinzwe ubucuruzi, kandi rinini cyane rifasha abaguzi kuba bagura bisanzuye mu gihe bakeneye ibyo kurya, bakaba babibona mu buryo bworoshye cyane.

Inyubako nziza, yubatse neza, ifite igisenge cyiza, ifite igipanpu cyiza ndetse inyuma yacyo hateye igiti. Ibiti birebire hariho n'ikintu gikozwe mu ibumba cyifashishwa mu gutwara insinga z'amashanyarazi.

Muri gare haparikwa ibinyabiziga, bisi zizana abantu zikanabatwara haparitsemo imodoka ifite amabara y'umweru n'ubururu ikaba ari imodoka nini igendamo n'abantu benshi cyane.

Ahantu hubatse neza kandi hubakishije amatafari ahiye, hasakaje amabati ndetse afashe ku byuma bigiye bishinze hasi, hicaye abantu benshi kandi ubona ko hari serivisi runaka bahategereje.

Inyubako nziza yubatswe neza yubakishije amatafari ahiye, ndetse na fondasiyo y'amabuye akomeye, imbere yayo hateye indabyo nziza hari ubusitani bwiza, ibyatsi ndetse hateyemo n'ibiti by'umukindo.

Inyubako zubatse neza kandi nziza imbere y'izo nyubako hari indabyo ziteye neza kandi zikase neza kuburyo bwiza. Imbere hagaragaramo abantu ndetse abo bantu bari muri bari kugendagenda aho hafi.

Inyubako yubatse neza ku buryo bugezweho ku ruhande hari ibyatsi byiza kandi bikase neza, imbere hari abantu batandukanye harimo abakora amasuku aho ngaho ndetse n'abandi batandukanye.

Urujya ni uruza rw'abantu bari kwamamaza umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu bakaba barimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba biganjemo abantu bambaye imyenda y'ibara ry'icyatsi, bari mu ma tente arimo amabara y'umweru, icyatsi n'umuhondo, bamwe bakaba bafite ibyapa biriho ifoto y'umugabo wambaye kositime byanditseho ngo tora, bakaba bacyikijwe n'ibiti byinshi ku musozi.

Inyubako zubatswe neza kuburyo bwiza kandi bugezweho, zifite ibendera ry'igihugu cy'u Rwansda hanze, ndetse gifite aho aya mamodoka ahagarara, hagiye harimo imbangukiragutabara, bigaragara ko ashobora kuba ari kubitaro. Hari ubusitani bwiza burimo indabyo zikase neza kandi ku buryo bwiza, hateyemo n'ibiti by'imikindo, hagati yo mu byatsi.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye ifite amadirishya y'ibirahure ku ruhande rwayo hari aho imodoka zihagarara ndetse hari n'umuntu ushinzwe gucunga umutekano wazo, imbere hari undi muntu uhetse igikapu uri gutambuka agana imbere y'inyubako hirya hari indi nyubako no hepfo yayo hari indi nyubako ifite ya mirasire ishyushya amazi yo koga, hari n'ibiti biteye ku mpande.

Ahantu hubatse neza ku buryo bwiza kandi bugezweho hari intebe wakicaraho utegereje serivisi runaka ndetse hari hirya ahubatse aho imodoka ziparika cyangwa se zihagarara by'umwanya munini ndetse hari igisenge gifatishijwe ibyuma ku mpande.

Abantu benshi bicaye ahantu ku ntebe, hubatse neza kandi hari intebe zo kwicaraho bategereje ibigaragara byo bategereza serivi zitandukanye, nk'ubuvuzi cyangwa ibindi bikurikira ariko hari abantu benshi ababyeyi bahetse abana, abandi baryamye ku ntebe, ndetse n'abandi bahagaze ku madirishya n'imiryango bategereje guhabwa serivisi.

umumama wicaye imbere ya mudasobwa iteritse kumeza wambaye isaha linete numupira w'ubururu kuruhande rwe hari indi meza iteretseho indi ikindi gikapu gisa ry'yumweru ndetse n'umukara

Imodoka nyinshi harimo n'imodoka ya polisi ziparitse ahantu hameze neza mu mpande hateye ibiti, hari inyubako ndetse n'abantu benshi bari hafi aho, harimo n'abagororwa bambaye imyenda y'iroza bigaragara nkaho bashobora kuba baje mu nkiko.

Umugabo ukuze uri mu myaka ya hejuru ya mirongo itanu, wambaye amarinete imisatsi y'umukara, wambaye imyambaro iriho udutambaro kuruhande dushobora kuba tuagaragaza amapeti ye, kandi bigaragara nk'aho ashobora kuba ari umukozi wa leta.

Abantu benshi bicaye imbere ya za mudasobwa bambaye impuzankano yendagusa oranje bambaye udupfukamunwa, ndetse bari kugira ibyo bakora kuri za mudasobwa zabo. bigaragara ko ari abagororwa, ndetse harimo n'umuntu uri inyuma yabo wambaye imyenda ya kake ufite ikirango ku kaboko cy'igihugu bigaragara ko ari umucungagereza ariwe ushinzwe gucunga aba bagororwa.

Inyubako ifite igikuta kirekire yubakishijwe amatafari ahiye kandi hagaragara ko ari muri gereza kubera ijambo ry'icyongereza ryanditseho risobanura gereza ndetse handitseho n'imibare igihumbi magana cyenda mirongo itatu harimo abantu bambaye imyenda y'iroza n'abandi bambaye imyenda bigaragara ko ari imfungwa.

Icyumba kirimo abantu benshi biganjemo abambaye imyenda y'imikara bicaye mu ntebe z'umukara ndetse harimo n'abambaye imyenda y'imituku n'ingofero z'imikara bigaragara ko bambaye imyenda y'abashinjacyaha, bashobora kuba ko bari mu nama y'ibijyanye n'inshinjacyaha.

Abapolisi bambaye imyenda y'akazi ndetse n'ibirango by'igihugu, bataye muri yombi umukobwa cyangwa se umugore wambaye igitambaro cy'umukara mu mutwe, bamwambitse n'amapingu, inyuma ye hari umugabo wambaye imyenda y'imikara, ufite ibitabo bigaragara ko ari umucamanza.

Icyumba cyubatse neza ku buryo bwiza, kicayemo abantu benshi, imbere yabo hagiye hateretse uducupa tw'amazi, ndetse harimo umugabo umwe wicaye imbere, n'undi uhagaze. Muri aba benshi bicaye bigaragara ko hari nk'ibintu ahagurutse agiye kubaza. Mu nguni y'inyubako harimo insakazamajwi cyangwa se indangururamajwi, ariyo twita bafure, ndetse ku ruhande rw'inyubako hari...

Inyubako nziza cyane irimo abantu batandukanye harimo abagaragara nk'aho ari ingabo zikomeye, ndetse harimo n'abandi bahagaze hagati yazo, bigaragara nk'aho na bo bari abayobozi bakomeye.

Umugabo wambaye karuvati y'umukara ishati y'umweru ndetse n'ikanzu y'ibara ry'umutuku y'abacamanza bigaragara ko nawe ashobora kuba arumwe mu bakora mu biro by'ubushinjacyaha.

Abantu benshi bicaye hasi, imbere yabo hari abandi bicaye kuntebe bambaye udutambaro mwijosi turimo amabara y'ubururu, numuhondo n'icyacyi, harimo n'umugore witeze igitambaro mumutwe ufite ikayi, bigaragara ko haribyo yari arikugenda abasomera, hari nundi muntu muri aba bicaye hasi uhagaze. Hari ibiti byinshi biteye aho hantu ndetse nutunyubako twubatse muburyo bwakera.

Umugabo wambaye ingofero y'umukara, rinete, ikote ry'umukara, ubona ko ari umugabo ukuze imyaka nka za mirongo ine n'itanu kuzamura, ndetse yambaye n'ikintu cy'ibara ry'umweru hagati n' ikote.

Abantu benshi bamwe bicaye abandi bahagaze imbere yabo hariyo umuntu wambaye imyenda y'abagororwa bigaragara ko hari ibyo yari kwisonga cyangwa se hari ibyo ari gushinjwa ari kwiregura, inyuma y'abantu hateye ibiti ndetse no ku ruhande rwabo hari inyubako mu bantu harimo abafite imitaka ibiri .

Icyumba cyicayemo abantu benshi batandukanye, imbere yabo hagiye hari uducupa tw'amazi yo kunywa ndetse harimo umwe uhagaze ufite indangururamajwi, bigaragara ko hari ijambo wari kubagezaho ndetse ku gikuta hari urumuri rw'insakazamashusho ku bintu bari bari kwigaho.

Abantu benshi, hari abicaye n'abahagaze, ndetse hari umugabo umwe ubari hagati wambaye imyenda y'iroza, bigaragara ko yari imfungwa, ari kugenda yisobanura cyangwa se avuga ku bintu bitandukanye, abandi bamuteze amatwi.

Iri ni icupa riba ririmo umuti wifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro n’ icupa ry'umutuku kandi rishyirwa ku nyubako zihuriramo abantu benshi cyane nk'amasoko, ibitaro cyangwa ama hoteli ahantu hose haba hari abantu benshi ziba zihari kugira ngo mu gihe habaye ibyago by'inkongi y'umuriro hifashishwe mu kuzimya.

Umugabo wambaye ikanzu iri mu mabara y'umukara ndetse n'ibara ry'umweru, afite indangururamajwi mu ntoki yambaye impeta ku ntoki ndetse bigaragara ko hari ibyo yari ari gusangiza abari bamukurikiye. Hasi ku meza imbereye hari yateretse ibipapuro by'umweru ndetse na telefone ndetse imbere hari n'ibendera ry'u Rwanda riri mu mabara ubururu, umuhondo, ndetse n'icyatsi.

Mu Rukiko, umugabo wambaye ikote n'ipantaro bisa, hagaze hagati y'abanyamategeko be babiri. Barasa n'aho bari imbere y'inteko y'abacamanza. Inyuma y'abo bantu hafi abaje gukurikira iburanisha.

Ahantu hari abantu benshi bicaye ndetse imbere harimo ari abicaye bambaye amakanzu y'imikara ndetse n'udupfukamunwa, imbere yaho hateretse uducupa tw'amazi. Hano hari undi mugabo wambaye imyenda isa ndetse bigaragara ko ari impuzankano, ku ruhande rwe hari ndetse n'undi muntu bigaragara ko ari imfungwa yaje mu rukiko kuburanishwa.

Igikoresho bifashisha mu gihe hateye inkongi y'umuriro, gifunze neza kandi hakiriho agapapuro kerekana uko iki gikoresho gikoreshwa. Ni igikoresho ushobora kwifashisha uzimya umuriro mu gihe bibaye ngombwa.

Inyubako yubatse ku muhanda ifite igipangu kinini kirekire cy'amatafari ahiye, ndetse ku muhanda hateye ibiti. Hari imodoka ziri kunyura muri uwo muhanda, ndetse n'umunyamaguru uri gutambuka. Hari icyapa kigaragaza ko aha ngaha ari ibitaro by'abashinzwe umutekano.

Inyubako imbere yayo hari amamodokaka menshi n'igipangu gisize irangi riri mu ibara ryenda gusa umwe ndetse n'ikigina.

Abapolisi benshi bafite imbunda, imbere yabo hari undi umwe uhahagaze bigaragara nkaho ariwe ubakuriye ugiye kubaha amabwiriza atandukanye. Inyuma yabo hari ibiti, imodoka ndetse n'ipoto ritwaye insinga z'amashanyarazi.

Umuntu ushinzwe kurwanya inkongi z'imiriro ari kwigisha abantu uburyo bakirinda nk'umuriro uturutse kuri gaze, hari gaze hariho isafuriya ndetse umuriro wabaye mwinshi waka mu isafuriya mu imbere, afite igitambaro gitose agiye kucyubikaho kugira ngo abashe kuzimya uriya muriro.

Ahantu hari inzu zikurutiriye n'igipangu kiri i mu bara ryenda gusa ivu ndetse n'umukara bigaragara ko ari ibirango bishobora kuba ari ibya polisi mo imbere hariparitse za polisi n'izindi modoka zitandukanye.

Imodoka ihagaze ahantu hatemewe ndetse hari n'umupolisi uri kuri moto wo mumuhanda uyihagaritse, kuruhande hari ibiti biteye, kuruhande rw'umuhanda indabyo, ndetse n'amatara yo ku mihanda.

Abantu bari gutambuka k' umuhanda ,imbere yabo hari abantu babiri bambaye amakote yabashinjwe umutekano kuruhande rwabo hagiye hari amamodoka ndetse na moto bitagaragara neza, hagaragaramo n' itara ryo kumuhanda ndetse n' igiti giteye kumuhanda.

Ahantu hari ibintu bicuruzwa bitandukanye, birimo ibintu by'amata, ku hande hari igikoresho cy'ibara ry'umutuku umuntu ashobora gusimbukira cyangwag se kumanukira ho mu gihe hateye inkongi y'umuriro mu nzu.

Aha hantu abagenzi bategera imodoka hahagaze abapolisi babiri bambaye imyenda yirabura umwe harimo amabara y' icyatsi ndetse n' igiti kiri kuruhande rwabo.

Umuhanda urimo imodoka zitandukanye harimo abashinzwe umutekeno, harimo n'abaturage benshi ndetse ku mpande z'umuhanda hateye ibiti n'amatara yo ku mihanda hariho n'uruzitiro ruzitiye umuhanda rukoreshejwe ibyuma.

Inyubako bigaragara ko ari ibiro bya porisi y'u Rwanda, hanze yaho haparitse imodoka ya porisi ndetse haparitse n'indi modoka y'abayobozi basanzwe, hasi hakozwe neza hapavomye ku buryo bugezweho.

Abantu benshi higanjemo abanyeshuri bambaye impuzankano cyangwa se imyenda y'ishuri, imbere yabo hari abashinzwe umutekano inyuma yabo hari inyubako zitandukanye ndetse imbere hari ibyifashishwa mu kuzimya umuriro mu gihe hateye inkongi y'umuriro igaragara ko mu umutekano yo kuganiriza ku buryo barwanya inkongi z'umuriro.

Umugore uri ahantu hasa neza, yambaye neza, agaragara neza, imisatsi y'umukara, imbere ye hateretse ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, yicaye mu ntebe nziza, imbere ye hari ameza atatse neza, kandi ameze neza.

Turimo turabona ibikorwaremezo nk'umuhanda, ibiyaga, ibiti n'ubwo uwareba neza atitegereje yabona wagirango ngo byakundukiye mu mazi, ariko byatewe n'ifoto bafashe bigaragaza bisa nk'aho ibi biti n'amapironi byaguye mu nyanja cyangwa mu mazi. Ariko bari bagambiriye kutwereka ibikorwa remezo nk'imihanda, n'ibiti n'ibindi.

Abantu benshi bicaye mucyumba kirimo intebe z'umukara, imbere yabo kumeza hateretse ubucupa bw'amazi ndetse na za mudasobwa, hari n'indangururamajwi, bigaragara ko bari munama kandi hari uri kubagezaho ibiganiro bateze amatwi.

Abantu benshi batonze umurongo imbere y'inyubako, bategereje ibintu bitandukanye inyubako zirafunguye ndetse ku ruhande rwazo hatambitseho udutambaro twamabara agiye atandukanye.

Umukuru w'igihugu yicaye hagati, abantu benshi, afite agacupa k'amazi gateretse imbere ye, ndetse ari guseka nkaho hari ibiganiro ari kugenda atambutsa ku bari bitabiriye ibyo biganiro.

Icyapa kiri mu mabara y'ubururu umweru ndetse n'icyatsi, cyanditseho inyuguti pa na sa na da kigaragara cyangwa se kimenyesha ishyaka ry'ibijyanye na politiki rya Peside.

Abantu babiri bari ahantu hubatse neza kandi hatatse neza ibirabyo ndetse imbere yabo hari akantu gafunze bari kugenda banagamo udupapuro bigaragara ko ari uburyo bwo gutora.

Ifoto y'umukuru w'igihugu polo Kagame, arikumwe n'abashinzwe kumurindira umutekano, yambaye imyenda y'ibara ry'umweru ndetse n'umukara. Ndetse hari n'abantu benshi baje kwamamaza bafite amabendera aranga umuryango mu ibara ry'umutuku, umweru, ubururu.

Abantu benshi bambaye imyenda n'ibirango biri mu mabara y'umutuku, umweru n'icyatsi. Bafite icyapa kiriho ifoto y'umukandida w'ishyaka rya FPR, Paul Kagame.

Ifoto y'umukuru w'igihugu Paul KAGAME yambaye imyenda y'umuryango wa Efuperi iri mu ibara ry'umweru, ubururu n'umutuku, ku ruhande rwe hari abandi bantu bafite ibirango by'umuryango nabyo birimo ibara ry'ubururu n'umweru n'umutuku.

Umugore usa neza w'imisatsi y'imikara wambaye rinete z'imikara, wambaye amaherena, wambaye agakote keza ndetse n'agapira keza, ari imbere y'indangururamajwi bigaragara ko hari ibyo ari kugenda atangaza, inyuma ye hari ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda.

Abantu benshi bari ahantu hasakaye ndetse n'abandi bari hirya ahantu inyubako itagera, ipoto ry'amashanyarazi ndetse n'ibiti bitandukanye biteye inyuma yabo bizitiye ahantu bahagaze.

Abantu bicaye mu cyumba cy'inama, ahantu heza, imbere yabo ku meza hateretse uducupa tw'amazi n'imbere yabo hari indangururamajwi, bigararaga ko bari mu nama, ndetse umugabo umwe muri bo yambaye agapfukamunwa k'umweru, afite n'abantu ashyize ku gahanga ke.

Abagore bane bahagaze ku murongo harimo umwe witandiye bigaragara ko ari umuyisiramu ndetse bakikijwe n'amabendera atandukanye ku ruhande, iruhande rumwe hari iry'igihugu urundi ruhande hari irindi ririho ikimenyetso cy'ubukungu hejuru ya hari ifoto ya nyakubahwa Paul Kagame umuyobozi w'igihugu cy'u Rwanda.

Icyumba cy'inama cyubatswe ku buryo bwiza kandi bugezweho amatara hejuru arikwaka imbere hicaye abayobozi bayoboye inama ndetse hari n'abatumirwa bicaye inyuma mu ntebe ku meza hateretseho mudasobwa imbere ya buri muntu ndetse n'agacupa k'amazi yo kunywa.

Umugore wambaye umukenyero mwiza wambaye rinetendetse amanitse ikiganza yegereye idarapo, bigaragara ko yarari kurahira ku bintu runaka. Imbere ye hari indangururamajwi.

Umukuru w'igihugu kagame yambaye ingofero y'umukara iriho ibirango by'umuryango, ndetse n'umupira wo mu ibara ry'umutuku nawo w'umuryango, imbere ye hari umugabo wambaye nawe ingofero yanditseho p na k bisobanuye amazina y'umukuru w'igihugu, azamuye igipfunsi arikubereka ko bagomba gushyira hamwe, ndetse hirya no hino ye hari abaturage benshi bafite amabendera arimo amabara y'umuryango.

Umugore ugaragara nkaho akuze w'imisatsi y'umukara wamabye ishati y'umweru n'igitenge. Inyuma ye hateye ibiti bigaragara ko ashobora kuba ari hafi n'ishyamba ndetse yambaye akantu ku kaboko no k'urutoki.

Ibisubizo byavuye mu matora bigaragaza ko Kagame yabonye mirongo icyenda n'icyenda n'ibice cumi na bitanu ku ijana, Habineza akabona zero n'ibice mirongo itanu na bitatu ku ijana, ndetse na Mpayimana akabona mirongo itatu na bibiri ku ijana.

Umugore ukuze wambaye neza, kandi usa neza, wicaye mu ntebe nziza, imbere ye hari insakazamajwi nyinshi zitandukanye, bigaragara nk'aho yari umuyobozi mu nama runaka, hari ibintu ariko kubagezaho bitandukanye.

Umugore wicaye kuntebe, afite agasakoshi mu ntoki yambaye igitenge ndetse ahantu hicaye inyuma yateye ibiti wagirango ni mu ishyamba ariko uko biri hagaragara neza ,yambaye amaherena ndetse urugi mu ijosi rugaragara neza.

Iyi ni inzu nini mu buryo bugaragara isize amabara y'umweru n'ubururu hejuru ndetse n'umukara ku madirishya n'inzugi ku ruhande hari ubusitani bugaragara neza ubona butoshye, butanga umuyaga ku bagenda bose.

Umuhanda uriho abantu benshi, imodoka ku mpande hari inzu, ndetse hariho n'umuntu ufite ibiti bikoze ku buryo byatwara imizigo, ndetse bifite n'ipine.

Imodoka nini irimo igenda mu muhanda zimwe zitunda nk'imicanga, amabuye ndetse n'ibindi bikurikira. Iri kugenda mu muhanda ku ruhande rwayo hari moto ndetse no haruguru yayo hari umunyamaguru, hari n'icyapa cyanditseho mirongo itandatu kigaragazako umuvuduko ntarengwa wo mu muhanda ari mirongo itandatu. Hirya hari inyubako ndetse hari n'imodoka ihaparitse, ndetse no ku mpande z'imihanda zombi hateye ibiti.

Umumotari uri kuri moto inyuma ye hari indi moto iparitse abantu babiri bari inyuma ye amazu ari inyuma ye ndetse n'indi nzu ndende iri kubakwa iri inyuma ye igeretse hanyujijeho agatambaro k'ibara ry'icyatsi.

ikimodoka kinini gitwara abagenzi gifite ibara rinini ry'icyatsi, ubururu umweru ndetse n'umukara. Imbere y'icyo kimodoka hari umuntu wikoreye igifuka cy'ibintu runaka ndetse hirya y'imodoka hari itara ryo ku muhanda n'ibiti bitandukanye.

Cy'imodoka kiri guca mu muhanda kinini, kirimo abantu babiri bicayemo imbere, umwe ayoboye undi yicaye gutyo afite agaterefone mu ntoki, hirya y'umuhanda hari ibiti, ndetse hakikijwe n'agatambaro k'icyatsi kahazitiye.

Umuhanda uri kunyuramo imodoka nyinshi harimo bya bindi binini bitunda imicanga ndetse n'ibindi harimo n'utumodoka dutoya ndetse harimo n'imodoka zimwe nini zitwara abagenzi. Ku ruhande hari inyubako zitandukanye amapoto atwa n'isinga z'amashanyarazi ndetse n'ibiti hakuno y'umuhanda n'abanyamaguru bari kugenda ndetse na moto zitwaye abagenzi.

Umuhanda uriho urujya n'uruza rw'amamodoka, amamoto, ku mpande yaho hari inyubako zitandukanye, ndetse hino y'umuhanda hari moto iparitse itariho umuntu, umuntu agaragara akaguru konyine, bigaragara ko ashobora kuba ari nyiri moto.

Imodoka nini iri kugenda mu muhanda hakurya y'umuhanda hari izindi zihagaze nyinshi harimo na moto ndetse n'abanyamaguru bari kwitambukira hari amatara yo ku mihanda ndetse n'ibiti biteye ku mihanda

Imodoka nini iri mu ibara ry'umutuku bimwe bitwara amabauye, umucanga ndetse n'ibindi bintu bitandukanye kiri kugenda mu muhanda hino yacyo hari abanyamaguru babiri hakabamo umugore ari kugenda umugore yambaye ijire y'umuhondo ndetse no hirya y'imodoka ku ruhande rw'iburyo hari undi muntu uri kurenga, hirya hateye ibiti bitandukanye ndetse n'itara ryo ku muhanda hari uruzitiro rw'ibiti ndetse rufite n'igitambo cy'ibara ry'icyatsi.

Ikimodoka kinini kiri mu mabara y'umutuku kikoreye cyangwa se gihetse umucanga inyuma ndetse hirya y'umuhanda hari itara ryo ku muhanda ndetse n'ibiti bigiye bitandukanye.

Umuhanda urimo imodoka ebyiri, harimo umuntu uri kuwambuka, ndetse harimo n'abandi bantu bari kugenda hirya y'umuhanda, ku ruhande rwo hirya y'umuhanda hariho inyubako zitandukanye ndetse n'itara ryo ku muhanda.

Ikinyabiziga kiri kugenda mu muhanda cyo mu ibara ry'umweru, gifite icyapa cyanditseho uruvange ndetse harimo n'umushoferi ugitwaye, hirya y'umuhanda hari ibiti bihateye ndetse hari n'uruzitiro rw'ibiti rufite igitambaro cy'ibara ry'icyatsi.

Ahaparikwa cyangwa aha hagarara imodoka zitandukanye zitwara abagenzi zimwe nini abanyarwanda dukunda kwita shir'umuteto zijyamo abagenzi bagenda bahagaze ndetse n'abagenda bicaye .Iparitse ahantu hubatse neza Kandi hari agakorutire k'ibyuma ndetse n'igikuta kirekire cy'amabuye hari n'abagenzi bahagaze hagati yizo modoka.

Umuhanda uri kugendwamo n'ibinyabiziga amamoto ahetse abagenzi, ndetse n'igare rihetse umugenzi. Hirya y'umuhanda hari uruzitiro rw'ibiti rufite igitambaro cy'icyatsi, muri urwo ruzitiro hari imodoka nini zimwe ziheka imizigo myinshi zihaparitse, ndetse ibiti ku mihanda ndetse n'itara ryo ku muhanda.

Imodoka ya sitera itwara abagenzi ndetse n'imbere harimo n'abagenzi, ku mpande zayo hari abantu ndetse n'inyuma yazo hari izindi modoka ndetse n'inyubako n'abantu bicaye ku mpande yazo.

Motori utambuka ku muhanda, hirya ya moto hari umugenzi w'umunyamaguru ndetse n'imodoka ihaga hariho umuntu uyegamyeho, hino y'iyo moto hari umuntu uri kugenda asunika akantu mu ntoki batwaraho imizigo.

Imodoka nini iri mu ibara ry'umutuku ifite umushoferi ndetse n'undi umuherekeje iri kugenda mu muhanda ku ruhande rwayo hari igare ritagaragara neza ndetse hariho n'ukuguru k'umuntu kuri kurenga kutagaragara neza inyuma y'imodoka hateye ibiti.

Imodoka nyinshi ziri k'umuhanda ndetse inyuma yazo hari amazu atandukanye, abaturage amamoto ndetse n'ibiti bitwaye umuriro w'amashanyarazi n'itara ryo k'umuhanda.

Imodoka itwara abagenzi iri mu ibara ry'umweru, iri kugenda mu muhanda imbere yayo hari igare ndetse ku ruhande rw'umuhanda hari ibiti bitandukanye itara ryo ku muhanda ndetse hari n'uruzitiro rw'ibiti rufite agatambaro k'icyatsi.

urujya n'uruza rw'ibinyabiziga harimo amamodoka moto ndetse n'abanyamaguru barigutambuka mumuhanda harimo umunyamaguru umwe wikoreye umuzigo ndetse hari nitara ryo kumuhanda riri kwaka hirya hari inyubako nkaho banyweshereza esansi ndetse nizindi nyubako zitandukanye

Inyubako nziza yubatswe ku buryo bwiza kandi bugezweho, igeretse kabiri ndetse ifite n'uruzitiro rw'ibyuma ku buryo umuntu atahanuka hejuru, hasi yaho haparitse imodoka nyinshi, ndetse hari n'urujya n’uruza rw'abantu b'abanyamaguru na moto ziri kugenda mu mihanda, ibiti biteye ku mihanda ndetse n'amatara yo ku mihanda.

Abamotari batatu bicaye ku ma moto yabo, n'undi muturage umwe uri ku ruhande rwabo, n'akandagira urakabe iri mu ibara ry'icyatsi, n'ibindi byuma bisa ibara ry'ubururu, n'icyapa cyanditseho ijambo ry'ikinyarwanda irembo, n'umurasire w'izuba ku ruhande.

Ahantu hahagaze imodoka ndetse hari amatara yo ku mihanda, hari inyubako nziza kandi zigezweho ndende zigeretse, kandi n'abantu bari ku ruhande bigaragara ko ari abategereje kujya mu mamodoka.

Imodoka iri kubisikana na moto itwaye umugenzi mu muhanda imbere y'imodoka hari umuntu utwaye igare hakurya y'umuhanda hateye ibiti ndetse hari n'uruzitiro rw'ibiti ruriho igitambaro cy'icyatsi bigaragara ko hirya hari ibikorwa bazitiriyeyo badashaka ko bigaragarira buri wese uca ku muhanda .

umumotari utwaye umugenzi kuri moto ndetse inyuma yabo hari inyubako ifite igipangu gifite uruzitiro rw'ibyuma, ndetse n'igipangu cy'amatafari iri mu ibara ry'umweru, ku muhanda hari itara ryo ku muhanda ndetse n'ibiti bitandukanye hirya y'umuhanda.

Imodoka nini iri mu ibara ry'ubururu n'umweru itwara abagenzi abanyarwanda cyangwa se mu rurimi rw'Ikinyarwanda dukunze kwita shirumuteto, ni imodoka igendwamo n'abantu benshi bamwe bicaye abandi bahagaze ku ruhande rwayo hari umuntu uhahagaze.

Imodoka ndende y'umweru itwara lisansi, iri mu muhanda wa kaburimbo. Hirya y'umuhanda hateye ibiti. Hino y'umuhanda ho hari umuyoboro amazi amanukiramo.

Umuhanda uri kunyurwamo n'imodoka ebyiri zibisikanaho imwe izamuka indi imanuka imwe y'umweru indi y'umukara imodoka y'umweru irimo umushoferi uyitwaye ndetse n'ibice inyuma ku mpande zabo hari abagenzi kuri moto ndetse n'abagenda n'amaguru hirya yaho hari ibiri kubakwa bizitije uruzitiro ruriho igitambaro gisa icyatsi

Imodoka iri kunyura mu muhanda ifite ibara ry'umuhondo n'umweru harimo abagenzi ndetse n'umumotari uhetse umugenzi, urihino imodoka, ku ruhande rw'imodoka hateye ibiti bitandukanye ndetse n'itara ryo ku muhanda haruguru hubatse inyubako zitandukanye.

Isangano ry'umuhanda ririmo ibinyabiziga bitandukanye, za modoka nini zikururana ndetse n'izindi modoka, amamoto atwaye abagenzi ndetse n'igare ndetse n'abanyamaguru bari kugenda banyura mu muhanda. Amatara yo ku mihanda, iminara itwara insinga z'amashanyarazi ndetse n'ibimenyetso byo mu muhanda bigaragaza aho abanyamaguru bambukira umuhanda.

Umumotari uri kuri moto agenda mu muhanda, umuhanda ukikijwe n' ibiti hirya no hino ndetse harimo n' inyubako zitandukanye harimo n' inyubako imwe ndende igeretse inshuro nyinshi.

Imodoka ebyiri ziri kubisikana ziri mu mabara y'umweru ku ruhande umunyegare uhetse imizigo itandukanye harimo igitoki ndetse n'ibindi hirya mu modoka nanone hari abantu babiri bari kuzamuka nyuma yaho hari ibiti ndetse n'uruzitiro rurimo ibara ry'icyatsi inyuma yurwo ruzitiro harimo imodoka ziparitse ndetse n'inyubako .

Inzu igurishwa cumi na gatanu, uvuye Mayange ifite amakaro yose, ni nziza kandi yubatse muburyo bugezweho.

Abantu benshi barigutembera ahantu hasa neza, hubatse neza, inyubako zigezweho kandi zigeretse, ahantu abantu bicara bategereje cyangwase baruhukira, hari intebe wakicaraho kandi hanubakiye kuburyo imvura iguye utanyagirwa. kumpande hari ibiti byiza bihatatse bimeze neza kandi bisa neza bigaragara ko ari mumugi wa kigali, hari urujya nuruza rwabantu.

Sitade irimo abakinnyi ikorotirijwe senyenge, ndetse ahe n'ahantu abantu bicara b'abafana baje kureba umupira, irimo ibyatsi kandi iciyemo n'imirongo yera.

Ikibuga cy'umupira w'intoki imbere hagaragara aho batsindira icyuma kiriho imbaho kigaragaza aho batsindira ndetse ku ruhande hateye ibiti bitandukanye hagaragara neza ibyatsi, ndetse harimo n'insinga z'amashanyarazi.

Ahantu hari ikibuga cy'umupira w'amaboko hari inzu hirya yaho hari n'ibiti biteye kuruhande ndetse hariho n'uruzitiro rw'ibyuma kuruhande.

Ahantu hari abantu benshi harimo abari mu mirimo itandukanye nk'iy'ubwubatsi ndetse na moto zitwaye abagenzi hirya hari umutaka wa emuti eni w'umuhondo ndetse haruguru y'umuhanda hari n'ishyamba n'ibiti bitandukanye byinshi.

Agace gato k'umuhanda hari ibyapa bibiri kimwe cyerekana ko turi mu karere ka Rusizi, ikinyuma cyerekana ko ari nyungwe nandi magambo adasomeka, hirya hari ibiti birebire kandi byinshi bigaragara ko ariryo shyamba rya nyungwe.

Umuhanda warimo ibinyabiziga imodoka ziri kugenda, ndetse n'umunyamaguru uhagaze utegereje kwambuka umuhanda imodoka zirenze, hirya y'umuhanda hari abantu hari uwambaye ingofero y'umuhondo n'akajire k'icyatsi, harimo n'icyapa cy'inyuge hagati mu muhanda, icyo hejuru kimenyesha ko bibujijwe gukata usubira inyuma muri uno muhanda, ndetse hari n'ikindi kivuga ko bibujijwe gukata ibumoso.

Icyapa cyo mu muhanda gifite umuzenguruko w'umutuku ubuso bw'umweru ndetse n'ibirango by'umukara, kigaragaza ko ari inkomane cyangwa se ihuriro ry'imihanda.

Icyapa gikoreshwa mu mategeko y'umuhanda mpande enye umuzenguruko w'umweru, ubuso bw'ubururu ndetse n'ikirango cy'umweru, kirimo inyuguti ya pa bivuga ko ari aho imodoka zemerewe guhagarara.

Icyapa cya mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru, ibirango by'umukara, bigaragaza ko, kuri uno muhanda hashobora kuba hari imirimo y'amaboko igiye itandukanye.

Icyapa cya mpande enye umuzenguruko w'umukara, ubuso bw'umuhondo, ikirango cy'umukara. Kimenyesha ko umuhanda ukomeje imbere kandi umuhanda ushobora no gukata ku ruhande rw'ibumoso.

Icyapa cya mpande enye n'umuzenguruko w'umukara w'ubuso bw'umuhondo w'imbere harimo akandi kapa gacuramye nako kampande eshatu gafite umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru ndetse n'akandi kari hejuru yaho k'umukara karimo ibara ry'umukara kari mu ishusho y'umwambi.

Akantu kubatse kariho akapa gafite umuzenguruko w'umukara, ubuso bw'umweru ndetse n'ibirango by'umukara byanditseho Kaga Gatanu Ave Ijana na mirongo inani na gatanu ndetse inyuma yako hari inyubako ifite igipangu cy'amatafari ahiye.

Umuhanda ufatemo ibisate bibiri cyangwa se ibice bibiri harimo ibimodoka bimwe birebire binini bikururana, ndetse hari icyapa kiri iburyo kiri kuvuga ko ari mu karere ka Gicumbi, ndetse hari n'ikindi kiri ku ruhande kiri kuvuga ngo "urakaza neza mu gihugu cy'u Rwanda", ku ruhande hari amatara yo ku muhanda ndetse n'ibiti bigiye bihateye, ndetse n'amapoto atwaye insinga z'amashanyarazi.

Abantu babiri bafashe terefone mu ntoki zose ziri kwaka umwe yambaye umupira w'umutuku akaba bose bari imbere y'ameza akoze mu rubaho rw'umweru.

Inyubako zubatse ku buryo busanzwe budashamaje ndetse ku ruhande rw'izo nyubako hari icyapa kigaragaza ko abajya ku kanyaru Huye, MUhanga bakomeza imbere ariko abajya Ruhango Kinazi bagakata ibumoso.

Umuhanda ufite icyapa cy'inyunge kimwe kigaragaza ko umuhanda aha imbere ufite ikona ndetse ikindi kigaragaza ko muri ako gace hashobora kuba habamo abasheshakanguhe ubwo ni abantu bakuze.

Icyapa gifite umuzenguruko w'umutuku ubuso bw'umweru, ndetse n'ikirango cy'umukara kigaragaza ko bibujijwe, ko aho hantu hanyurwa n'imodoka nini zigana gutya.

Icyapa gikoreshwa mu amategeko y'imihanda gifite mpande enye, umuzenguruko w'umukara ubuso bw'umuhondo ndetse n'ibirango by'umukara. kigaragaza cg se gisobanura ko imbere hari aho banyura bazenguruka, hirya hari ikindi cyapa nanone cya mpande enye umuzenguruko w'umukara, ubuso bw'umuhondo n'ibirango by'umukara kivuga inkomane ya "T". Ndetse n'ibiti bigaragaramo.

Icyapa cya mpande enye, umuzenguruko w'umukara, ubuso bw'umuhondo ndetse n'ibirango by'umukara, kigaragaza inkomane ya T, umuhanda ukoze inyuguti ya T.

Icyapa cya mpande enye, umuzenguruko wumukara, ubuso bw'umuhondo, ibirango by'umukara, kigaragaza ko ushobora gukomeza imbere cyangwa ugakata k'uruhande rw'ibumoso.

Umuhanda wubatse neza, ugabanyijemo ibice bibiri hakoreshejwe umurongo w'umweru ndetse n'indi mirongo yo ku mpera z'umuhanda, abantu bari gutambukamo, akarere turimo ni aka Karongi uko bigaragara kuri iki cyapa ndetse ku ruhande rw'umuhanda hari n'imashini zimwe zikora umuhanda cyangwa se imodoka zimwe zikora umuhanda, hateye ibiti hirya y'uwo muhanda ndetse n'insina z'ibitoki.

inyubako zitandukanye zigaragara neza kandi zubatse neza ndetse nizindi nyubako zubatswe mu buryo bushaje kumpande yazo hagiye hateye ibiti byinshi kandi bitandukanye,

Inyubako nziza yubatswe ku buryo bugezweho, igeretse, ifite amadirishya y'ibirahure, ifite uruzitiro rw'ibyuma rwatuma abantu badahanuka, hasi yaho muri parikingi haparitse imokoka nziza kandi haparitse na moto, ipikipiki.

Inzu zubatse kandi mu buryo bugezweho zituriye umuhanda, hagiye harimo ibiti hirya no hino yizo nzu, kandi mu bigaragara byo ziri mu gace ka kanombe, ibiti bitwaye insinga z'amashinyarazi, ndetse n'insinga z'amashinyarazi.

Inyubako nziza yubatswe neza ku buryo bugezweho, iri inyuma ndetse inageretse n'utundi tunyubako turi imbere yazo tugiye turi aho twubatse bisanzwe hagaragaramo n'ibiti by'imikindo bimeze neza.

Inyubako nziza y'ubatswe neza mu buryo bugezweho igeretse nka gatatu, ikaba ifite amadirishya y'ibirahure, ifite igipangu cyubatse neza kandi cyubakishije amatafari ahiye ndetse n'amabuye, ifite umuryango w'igipangu uri mu ibara ry'umukara, ku ruhande rwiyo nyubako hari igiti.

Inyubako zubatse neza imbere y'izo nyubako hari ibiti bigiye bitandukanye, hari ibyo twita kandagirukarabe ndetse hari n'abantu bari imbere y'iyo nyubako, m'umuhanda harimo moto ziri kugenda zitwara abagenzi, k'uruhande rw'umuhanda haparitse amamodoka atandukanye.

Inyubako nziza yubatswe ku buryo bwiza kandi bugezweho igeretse, igaragara ko ari inyubako ishobora kuba ari iy'ubucuruzi. Imbere yayo hari aho amamodoka ahagarara hameze neza kandi hahagaze amamodoka, ndetse hanze yayo hari umuntu uhagaze, ushobora kuba arinda umutekano w'iyo nyubako.

Umuhanda uri kunyuramo imodoka ,igare ,moto ku mpande z'umuhanda hateye ibiti bitandukanye ndetse hari n'itara ryo ku muhanda hari n'inyubako nziza yubatswe neza ku buryo bugezweho igeretse .

Inyubako nziza, ifite ibirahure imbere, amakaro, ku ruhande rwayo hari n'umuntu uhahagaze, hariho utwuma ku ruhande tubuza abantu kuba bahita basimbuka cyangwa se baza bakarenga, bakagwa hasi.

Umuhanda uri kunyurwamo n'imodoka nyinshi, ku mpande yawo hari amazu meza, muri ayo mazu meza harimo imwe igeretse gatatu uko bigaragara, ndetse ku mpande hari abantu, hari urujya n'uruza rw'abantu, hari n'ahaparitse moto, hari n'umutaka w'abantu bakora muri mtn mu buryo bw'itumanaho.

Inyubako nziza yubatswe ku buryo bwiza kandi ifite igisenge kigezweho, ifite igipangu cy'amatafari ahiye ndetse ku ruhande hari n'urugi rw'igipangu ruri mu ibara ry'icyatsi n'ikindi gipangu biteganye gifite ibara ry'umukara ,muri cyo gipangu gifite urugi rw'ibara ry'icyatsi hari amatara abiri meza ndetse anitegeye andi mazu ari hirya no hino kandi yubatse neza.

Imodoka nyinshi ziri kugenda muri kaburimbo. Imodoka iri mbere y'izindi zose ni ndende cyane kandi ifite ibara ry'umweru. Mu mpande z'umuhanda hari ibiti, na byo birebire.

Inyubako nziza zubatswe mu buryo bugezweho, harimo izigeretse n'izitageretse, ku mpande y'izo nyubako hateye ibiti byinshi, bitandukanye, kandi hirya y'ayo mazu hayagaragaramo n'umunara munini w'ibintu by'itumanaho.

Inzu nziza yubatswe kuburyo bugenzweho, ifite igipangu cy'amatafari ahiye kiza kandi gifite ibara ry'umukara ku rugi ndetse no ku madirishya. Ku mpande y'iyo nzu haparitse imodoka ndetse aho hantu hanakoze neza cyane.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho, ifite igisenge kigezweho, igeretse kandi isize amarange meza, ifite igipangu cyubatse neza gisize amabara harimo ay'umweru n'umukara, ituye ku muhanda kandi imbere yayo harimo igiti kikoreye insinga z'amashanyarazi.

Inyubako nyinshi nziza kandi zubatswe neza, zifite ibipangu mo imbere zifite igipangu cy'iza cy'amatafari ahiye, kandi gifite umuryango cyangwa se urugi rw'ibara ry'umukara.

Inyubako nziza mbere yaho hari ibihingwa ibigori ndetse hejuru yaho hari bya bisahani bukurura itumanaho ndetse harimo n'insinga z'amashanyarazi ziri kugenda zinyura hejuru y'amazu.

Inyubako nziza yubatswe neza ku buryo bugezweho, bigaragara ko igeretse kandi isize ibara ryenda gusa umweru, imbere yaho hino yaho hari indi nyubako nziza, iri ku muhanda kandi ifite igipangu kiza, imbere yayo hari igiti cy'umukindo ndetse n'uruzitiro rwayo bigaragara ko hari ibiti cyangwa se indabyo zikase neza.

Umuhanda uri kunyuramo imodoka nyinshi, amamoto, abanyamaguru ndetse ku ruhande rw'uwo muhanda hari inyubako nziza yubatse mu buryo bugezweho igeretse, kandi ku muhanda hari ipoto ry'amashanyarazi ndetse n'insinga z'amashanyarazi, hejuru y'inyubako hari n'ibindi byuma byifashishwa mu ikoranabuhanga.

Umuhanda uri kunyurwamo n'amamodoka menshi moto ndetse urimo amabara y'umweru y'ibimenyetso byo mumuhanda hirya no hino y'imihanda hagiye hateye ibiti kandi haragaragara neza cyane.

Isangano ry'umuhanda ririmo ibinyabiziga bitandukanye amamoto, amamodoka bitwaye abagenzi ndetse harimo n'amatara yo ku mihanda. ibiti hakurya y'umuhanda ndetse naho abanyamaguru bakoresha bambuka umuhanda ndetse n'ibimenyetso bimurika byo mu muhanda biyobora ibinyabiziga.

Isangano ry'umuhanda riri kunyuramo ibinyabiziga moto, imodoka ndetse n'umunyamaguru utegereje kwambuka umuhanda. Hagati na hagati mu muhanda mu gice kigabanya umuhanda, harimo amatara yo ku mihanda ndetse hijya cyangwa se inyuma y'uwo mugezi w'umunyamaguru hari ibiti bihateye ndetse n'inyubako nziza ku ruhande rw'iburyo bw'umuhanda.

Ihuriro ry'imihanda rikoze inyuguti ya T ndetse harimo ibinyabiziga bitandukanye nka moto, imodoka ndetse no hirya mu muhanda munini harimo imodoka ihagaze, zimwe nini zikurura cyangwa se ziheka imizigo myinshi. Hari n'umunyamaguru uri gukata ku ruhande rw'umuhanda ndetse hirya no hino y'imihanda hateye ibiti byinshi.

Umuhanda uciyemo ibipande bibiri m'umahanda ndetse harimo imodoka nyinshi zitandukanye, hagaragaramo nama'moto n'abaturage amatara yo kumihanda ndetse n'ibiti biteye hirya y'umuhanda.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye nk'imodoka moto ndetse bigaragara ko ari ninjoro amatara yo kumihanda ari kwaka n'ayo kunyubako ndetse hari n'urujya n'uruza rw'abanyamaguru bari kugenda mumuhanda hari ibiti by'imikindo iteye kumuhanda ndetse hari n'ikinamba cyangwa se umuhanda unyura hejuru ndetse n'uri kunyura hasi.

Umuhanda urimo ubusa ufite inyubako hirya no hino yawo ndetse n'ibiti biteye ku mihanda iburyo ndetse n'ibumoso bw'uwo muhanda.

umuhanda uciyemo ibisate bibiri harimo imodoka moto, ndeste kuruhande hari ibyapa biri mwibara ry'umutuku hagati m'umuhanda harimo imirongo y'umweru igaragaza aho abanyamaguru bambukira.

Isangano ry'umuhanda hariho inyubako nziza kandi zubatswe ku buryo bwiza, harimo inyubako igeretse ndetse n'imodoka nyinshi ziparitse hirya y'umuhanda, amatara yo ku mihanda ndetse n'urujya n'uruza rw'abanyamaguru.

Umuhanda ugaragaramo imodoka, moto itwaye abagenzi, ndetse n'abagenzi bari kwambuka umuhanda bambukira aho abanyamaguru bagenewe kwambukira, harimo n'ibyuma bitwaye insinga z'amashanyarazi ndetse n'amatara yo kumuhanda.

Umuhanda ugaragaramo imodoka nyinshi amamoto, ndetse ukagaragaramo n'amaferuje ndetse n'aho abanyamaguru bambukira' n'ibiti kuruhande rw'umuhanda.

Imodoka ebyiri ziri kubisikanira mu muhanda, imwe izamuka indi imanuka, iri mu mamabara y'umutuku, indi iri mu mabara yenda gusa umweru, hirya y'umuhanda hateye ibiti ndetse hari n'itara ryo ku muhanda ndetse n'urutsinga rw'amashanyarazi, hari inyubako iri hirya y'ibiti.

Umuhanda umurikiwe n'amatara yo ku muhanda amamoto ari kwaka, ndetse hagaragaramo n'aho abanyamaguru bambukira, ndetse harimo n'ibyuma bizitiye ku ruhande rw'umuhanda kugira ngo abanyamaguru babe batagwamo hasi.

Ihuriro ry'imihanda harimo imodoka ndetse n'abanyamaguru. Harimo ahantu hasize amabara y'umweru cyangwa se amarangi y'umweru agaragaza aho abanyamaguru bambukira ku muhanda. Ndetse hariho n'itara ryo ku muhanda hirya y'umuhanda hateye ibiti byinshi bigaragara ko hari ishyamba.

Umuhanda uri kugendwamo n'ibinyabiziga bitandukanye nka moto, amamodoka ndetse n'abanyamaguru bari kugenda, ku ruhande rw'umuhanda hari icyapa cy'umuzenguruko w'umutuku ubuso bw'umweru ikirango cy'umukara, kibuza ko aha ngaha nta modoka zigomba kuhahagarara ndetse no ku mpande z'uyu muhanda hateye ibiti.

Aho banyura bazenguruka mu muhanda ndetse hari urujya n'uruza rw'ibinyabiziga, amamoto, amamodoka, amatara yo ku mihanda, ndetse ku mpande zombi z'imihanda hagiye hari ibiti bihateye.

Umuhanda uri kugendamo moto n'abanyamaguru babiri, ku mpande z'umuhanda hateye ibiti bitandukanye ndetse hagati y'umuhanda harimo amatara yo ku mihanda, kuri uwo muhanda harimo no hagati ahantu hari ibara ry'umweru ndetse rigaragaza aho abanyamaguru banyura bambuka umuhanda.

Umuhanda uciyemo ibisate bibiri icy'abagenda n'icyabagaruka ndetse harimo ibinyabiziga bitandukanye nk'imodoka ndetse namamoto, hariyo umukindo uteye hagati mu muhanda aho imihanda igabanira ndetse hari n'amatara yo ku mihanda ku mpande z'umuhanda hateye ibiti ndetse hari n'ibyapa byo ku mihanda.

Umuhanda ku mpande zawo hari amazu atandukanye imbere hari imodoka yahagaze hagati ndetse n'amamoto agiye atanduknaye ndetse mu muhanda haciyemo umuronko hagati